Ni umugabo ari mu murima wiwe aho uhinzemo imboga, hirya turi kubona amashu, imbere ye arimo aratera umuti mu nyanya bigaragara y'uko ari kuzitaho ngo zizakure neza kandi abone umusaruro uhagije.

Abantu barimo baratembera. Bigaragara ko bamwe bari imbere abandi bari inyuma. Bari kugenda hagati y'ibyuzi bibiri. Aho witegereje neza ushobora gusanga ari ibyuzi byororerwamo amafi.

Ni mu murima bigaragara yuko wahinzwemo kandi bigaragara ko bigeze guhingamo ibigori bakaba yarabisaruye. Ikindi turabona igiti cy'umwambati kikiri gitoya bitewe nuko utari wakura ngo ube muremure cyane.

Ibizwi nk'imboga, aho tubonamo, inyanya, ibitunguru, imitesha dodo ndetse n'izindi mboga, zifashishwa mu gutegura amafunguro.

Imwe mu mvugo u Rwanda ruzwiho muri afurika ndetse no ku isi hose, bakunda kurwita u Rwanda rw'imisozi igihumbi, hano nk'uko bigaragara hari imisozi myiza cyane, itatse u Rwanda, hasi mu kibaya harimo ishyamba, hakurya na none hari imisozi, mbese nk'uko bigaragara harasa neza.

Isambu nini cyane irimo ibiti birebire biteyemo pasaparume harimo inka, aho tutatinya kuvuga yuko bamwe bahita mu ifamu, harimo inka zigiye zitandukanye zirimo ubwoko buzwi nk'ubwoko bw'inka z'inzungu, ndetse n'izindi nka z'inyarwanda.

Ni umusozi uhinzeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bigaragara yuko harimo ibiribwa bitandukanye bihinzeho ariko kandi witegereje neza ushobora usanga baraciye amaterasi, kugira ngo mu gihe imvura yaguye ubutaka butagenda.

Umurima uzengurutswe n'intoki n'ibindi bintu bitandukanye, harimo n'igiti gihagaze kirekire, hepfo mu kibaya harimo ikiyaga, hakurya turahabona ikirere gisa neza cyane rwose, witegereje n'amaso birasa neza kandi harakeye.

Ni umusozi munini cyane nkuko bigaragara. Uteyemo ishyamba ariko ibiti biracyari mitoya. Ntabwo birakura cyane nkuko turi kubibona.

Ingurube eshatu ntoya, bigaragara yuko zitari zakura cyane, ziri mu kiraro, barazisasiye kandi ubona y'uko baziteguriye ahantu heza kandi hafite isuku.

Abagabo babiri bahagaze bigaragara yuko umwe yambaye isarubeti y'ubururu, yambaye na ga mu ntoki, undi yambaye imyenda isanzwe bari hanze y'ikiraro bigaragara ko harimo inka nyinshi zifite amahembe maremare, izo twakwita inyambo.